Ikarita y'umweru iriho amafoto atandukanye, hari imigozi inywesha kuri sitasiyo ya esanse, umukobwa ufashe agakapu mu ntoki, undi mukobwa wicaye imbere y'ibicuruzwa, hariho gukangurira abantu kugana ikigo cy'ubwishingizi cya Radiant.

Inyubako ndende iriho icyapa kiri mu ibara ry'umutuku hadikishijeho inyuguti z'umweru, hariho ifoto y'umugore uriguseka cyane, ni itangazo rihamagarira aga abantu kugana ikigo cy'ubwishingizi.

Icyapa kinini kiriho imodoka yakoze impanuka. Imbere igaragara ko yashwanyaguritse. Amagambo yanditseho aravuga ko hari ikigo cy'ubwishingizi ushobora kugana kikagufasha, mu gihe wagize impanuka.

Icyapa kinini kirekire kiriho ifoto y' umukecuru n' umusaza b' abazungu ni itangazo ryamamariza ikigo cy' ubwishingizi.

Icyapa kiriho umuntu wambaye itaburiya y'umweru. Uwo twakwita nka muganga afashe imashini mu ntoki yayishyize ku wundi muntu. Ni imashini ipima ibijyanye n'uko umutima utera, ndetse hariho itangazo ryamamariza ikigo cy'ubwishingizi cya Radiyanti.

Icyapa kiriho ifoto y'ikigo cy'ubwishingizi Radiyati. Hariho ifoto y'umugore n'umugabo n'abana babiri, barakangurira abantu kugana icyo kigo kugira ngo bishigarishe bazabagoboke mu gihe cy'ibyago.

Ibitaka birunze mu busitani. Icyapa kinini cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi. Isura nto y'umuntu uriho amaso areba. Ku ruhande umuhanda munini wa kaburimbo ahateye ibiti, amamodoka ahagaze inyuma y'icyo cyapa.

Icyapa kinini kiriho ifoto y'umuntu upfutse ukuguru amano agaragara. Hariho itangazo ry'ikigo cy'ubwishingizi Radiyanti. Gikangurira abantu kwishinganisha kibabwira ko impanuka zidateguza.

Icyapa kinini kigaragaza ikigo cy'ubwishingizi hariho itangazo, umutwe w'umuntu ugaragaza isura yo mumaso nawe yambaye ingofero itukura.

Urupapuro rw'umweru ruriho ifoto y'ubururu igaragaza ikigo cy'ubucuruzi Eko banki, ishinzwe kuguriza ndetse no kubitsa amafaranga.

Ifoto ya telefone igaragaza ikirahuri cyayo harimo urupapuro rwa konte uko amafaranga yinjijwe, uko yagiye asohoka, n'ayagiye asigara. Hejuru harimo imibare igaragaza isaha, ndetse naho umuriro w'iyitelefone ugeze.

Ifoto y'umukara iri mu kirahuri cya telefone igaragaza ugiye kwishyura amafaranga runaka kuri konte harimo, amagambo amubwira ngo niyinjizemo.

Ikiganza gifashe telefone mu kirahuri cyayo harakamo ibara ry'ubururu, handitsemo amagambo avuga ngo: muhawe ikaze muri banki ya kigali'', hasi harimo amashusho y'inyubako.

Mu iduka rikorerwamo ubucuruzi, umugabo wambaye ishati y'amabara y'umweru n'umukara, wirabura arahereza ibicuruzwa umugore w'umuzungu kazi.

Iduka rikora inkweto z'amasandali. Harimo ubwoko butandukanye, zifite amabara y'imikara, hariho igikuta zirambitseho.

Mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda y'ibitenge amabara menshi atandukanye, utwuma tumanitseho iyo myambaro umu umugore uhagaze yifotoje amwenyura, hasi hari isuku, isima itukura.

Ni urupapuro rwa telefone, rufite ikirahuri cy'umukara. Hagaragaramo ifoto iriho inkweto z'amabara atandukanye: ubururu, umukara, umweru, ndetse n'ikigina.

Ni mu iduka ricururizwamo imyenda itandukanye, imbere hari agatajeri kariho imitako itanduka ikunzwe n'abagore y'amashanete n'ibikomo byo ku maboko.

Iduka rikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, uduti tubikwaho imyenda tumanitseho amakoti ari mu mabara agiye atandukanye, ni inzu isa neza kandi igaragara ko harimo ibicuruzwa byiza.

Mu kibanza kinini hahagaze imodoka nyinshi zigaragara ko arizo mu bwoko bumwe, inyuma yazo hari inyubako ebyiri ndende, imwe ifite amabara ndetse n'birahuri by'ubururu, ku ruhande hateye ibiti.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati irimo imirongo n'isaha ku kuboko, afashe akantu mu ntoki arimo yereka undi bahagararanye w'umwirabura wambaye ishati itukura, bari kuganira.

Icyapa kibonetse ku nyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'amamodoka, hakikijwe n'ibyuma birebire n'ibigufi, imbere gato yaho hari amapoto n'amatara y'amashanyarazi.

Imodoka ngufiya izina ryayo ni yundayi sonata iburide, hariho ko igurishwa igiciro kingana na miliyoni umunani.

Imodoka y'umukara yo mu bwoko bwa benzi merisedesi, ihagaze mu kibanza kinini, aho hejuru yayo hariho amagambo yuko igurishwa, angana na miliyoni mirongo itanu.

Ikibuga kinini gikozwe n'abapave, imodoka ebyiri nini zihagaze inyuma y'abagabo batatu bateruye icyapa cy'umweru. Inyuma hari ihema rishize ry'umweru.

Mu kibanza kinini mu nyubako, ahakorerwa ubucuruzi bw'amamodoka atandukanye agezweho, hari imodoka ifunguye umuryango w'inyuma intebe nziza isi zirangi ry'mukara.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo TOYOTA kiragaragaza inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'amamodoka amarembo y'iyo nyubako arafunguye ndetse haparitse n'amamodoka, inyuma y'icyo cyapa hari utundi twapa dutoya tugaragaza ubwoko bw'amamodoka bacuruza, muri jaride harimo ibiti n'indabyo zitandukanye.

Urupapuro rw'umweru ruhanditseho inoti, hariho umubare w'ayo mafaranga angana n' igihumbi. Handitseho amagambo ya banki nkuru y'Urwanda.

Inyubako ifite ibiro bikozwe n'ibirahuri hariho nimero za buri cyumba, abagabo babiri bahagaze imbere ya gishe bigaragara ko bakeneye serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga.

Umugabo uhagaze wambaye ingofero y'umukara, uhetse igikapu cy'umukara, wambaye agapira n'ipantaro y'umukara, ahagaze kuri gishe imbere y'umugore uri kumuha serivise. Kuruhande umugore wambaye ipantaro itukura ahindukiriye uwo mugabo.

Ibiganza bibiri bicigatiye inoti z'igihumbi gihumbi ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Kenya yitwa amashilingi.

Isahani y'umweru ifite amabara y'umutuku hariho irindazi rimwe, agatambaro k'isuku ko gufatisha, ku ruhande hariho agatebo ka purasitiki ko mu ibara rya pinki, hariho n'igitambaro cy'amabara ku meza kirambuye n'intebe y'ubururu iteretse ku ruhande.

Umuryango w'inyubako ikorerwamo ubucuruzi, urugi rw'ubururu rushushanyijeho inyana nziza ifite amabara y'mweru n'umukara, hasi hariho indi foto y'utujerekani, mo imbere mu nyubako harimo amajerekani manini y'amazi.

Ku muhanda munini wa kaburimbo hahagaze mo muto n'umunyegare. Hakuno hari inyubako ifunguye ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, hasi hagaragara ko bayahabogoye, mu muryango hahagaze igare.

Ifoto iriho urupapuro rw'inyemezabwishyu, amazina ya nyirarwo ni Irakoze Jandodiye, igaragaza uburyo yagiye yakira amafaranga aturutse mu bubirigi, yo mu bwoko bw'amayero.

Ibiganza by'umugore ufite inzara zisize amarangi y'umutuku. Mu biganza bye harimo telefone ngendanwa, ari gukora ibijyanye no kohereza amafaranga mu bindi bihugu.

Urupapuro rw'umweru ruri mu kirahuri cya terefone, rugaragaza umaze kubitsa amafaranga angana n' ibihumbi magana atanu, akoreshwa mu gihugu cya Uganda. Hasi hagaragaza umubare w'ayo asigaranye kuri konte yiwe.

Urupapuro ruriho ifoto igaragaza uburyo ushobora kohereza amafaranga, mu bihugu bigiye bitandukanye hariho malawi, zambia, tanzania, u Rwanda, na uganda ndetse na etiyopiya.

Urupapuro rw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Umusoreshwa ashobora kurubona anyuze kuri murandasi, ni icyemezo kigaragaza ko ntamwenda w'imisoro afite.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho ibara ry'umukara, ruragaragaza uburyo umutungo w'ikigo gishinzwe gutwara abantu n'ibintu wagiye ukoreshwa, ibyo bagiye bishyura n'aho bagiye bishyura.

Mu kirahuri cya mudasobwa hagaragaramo urupapuro ruriho amazina y'umuntu w'umugabo witwa RUTAGANZWA nifagitire yatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, hagaragaza uburyo yishyuye.

Mu kirahuri cya mudasobwa, urupapuro rugaragaza inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, iboneka kuri murandasi, ikigo cyishyuye neza, imisoro ndetse bigaragara ko nta gihano cyahawe.

Urupapuro ruri muri mudasobwa rugaragaza Ikigo cy'Imisoro n'Amahoro, aho rwatanze igihano ku musoreshwa kubera ubukererwe bwo gutinda kwishyura imisoro.

Ifoto y'umuntu wicaye ikiganza ke k'iburyo gifashe itumanaho rya telefone. Ikiganza k'ibumoso gifashe inoti zitandukanye yambaye ishati ya kake.

Ni inyubako ikoreramo ijyanye n'ivunjisha. Umugabo uhagaze wambaye ishati irimo imirongo arakira inote, Ikiganza kiri kubohereza kinyujije munsi y'kirahure.

Ifoto iriho ibiganza bibiri, kimwe kirahereza ikindi amafaranga. Ni ikigo gikora ubucuruzi bw'ivunjisha.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati ya kake. Iruhande rwe hari icyapa kigaragaza ibiro bikora ibijyanye n'ivunjisha, uburyo amafaranga ari kugurwa n'uburyo ari kugurishwa.

Ibiganza bibiri biri kubara inoti nyinshi, intoki zisize amarange y'umweru n'ikigo gikora ibijyanye n'ivunjisha.

Ifoto iriho ikiganza gifashe abahero mu ntoki, n'ingano ya mirongo itanu, mirongo itanu. Bakora ibijyanye n'ivunjisha.

Ni ibiro by'ubucuruzi buvunja amafaranga abantu benshi bahagaze ku madirishya, bategereje guhabwa serivisi, harimo abagaragara ko ari abazungukazi.

Mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'ivunjisha, imiryango yayo irafunguye, hariho ibyapa ku muryango, hejuru y'inyubako handitseho ko iherereye i Remera.

Umugabo uhagaze mu idirishya wambaye umupira w'umukara ni munzu y'ubucuruzi ikora ibijyanye no kuvunja amafaranga kuruhande hari akapa gato kariho uko ibiciro byaho bihagaze haba mu kugura no mukugurisha.

Ameza marebare akozwe mu giti urubaho rwayo ntabwo busennye neza, inyuma yaho hari izindi mbaho zetegetse hagaragara ko ari mu nzu ikorerwamo ibarizo.

Mu nyubako nziza, harimo ameza manini y'uruziga, ateretseho ibyo kurya n'ibyo kunywa, intebe, ibiti, imitako, akabati karimo ibikoresho bitandukanye. Isize amarangi meza.

Aka ni agace gatuwe nk'uko bigaragazwa n'ibipangu bihari, hateye ipoto ririho insinga z'imikara kandi iri poto biragaragara ko rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri aka gace aha turahabona amapave aho iri poto rishinze, hari n'ibiti hakurya ndetse hari n'amabuye akikije izi ngo.

Umugabo uhagaze iruhande rw'urukuta rwamabuye, inyuma ye hari abandi babiri umwe wicaye undi uhagaze, igiti kibari imbere kirekire kidafite amababi. Haruguru yaho hapanze imbaho nyinshi ku ruhande gato hari shitingi zihambiriye ziri mu ibara ry'ubururu.

Intebe nziza zidoze mumwenda w'icyatsi kibisi, ziteretse mu inzu nziza isize amarangi harimo ameza manini y'ikirahure, akoze mu buryo bw'uruziga, kuruhande hateretse ururabo rw'igiti.

Intebe zikozwe mu rubaho zisize ameza ari imbere yazo manini byose bifite amabarasa ku ruhande hariho inyubako ifite urubaraza zikaba ziteritse mu kibuga gishashemo amapave.

Mu busitani ahateretse intebe nziza zisa n'ameza zifite ibara ritukura zikagira imisego y'umukara, inyubako iri imbere amadirishya abiri afunze, ku ruhande urugo ruzengurutswe n'ibiti n'amahema acitse.

Mu nyubako ikoreramo ubucuruzi bwa resitora. Harimo ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, intebe nziza ziteretse ku mabaraza, ku ruhande jaride nziza irimo indabo zitanga akayaga.

Umugore ufite agakapu mu ntoki, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara arasohoka mu nyubako ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi cya Mituweli.

Mu nyubako ikorerwamo ikigo cy'ubwishingizi, ibiro biteguye neza intebe igiti kiri mu nguni kisa n'umukindo, abakozi bicaye imbere za mudasobwa bakora akazi.

Mu cyumba gikoreramo ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi, harimo intebe y'umukara; ameza manini ateretseho imashini za kompiyuta; intebe ntoya z'ubururu, ndetse n'ameza manini n'udukarita turambitseho.

Abagabo batatu baratambuka imbere y'inyubako ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi cya UAP, imbere y'umuryango hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara usa nkaho ari gukomanga, inyuma ye hari za esikariye ndende.

Umugore wicaye mu biro bikoreramo ikigo cy'ubwishingizi, arasuhuza umukiliya wambaye ikote ry'umweru ingofero mu mutwe. Ku ruhande hari agakarita umukiliya yishyurira aho k'ikigo cya emutiyeni. Imbere hari imashini ya mudasobwa.

Inyubako ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi, imiryango yayo irafunze. Amarembo yayo hateye indabo, imbere hari aho baparika amamodoka.

Umuryango ufunguye w'inyubako ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi cya radiyanti. Amavase abiri arimo indabo, ateretse imbere y'umuryango, ndetse na moto ihagaze iriho kasike.

Inzu ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi radiyanti, inzugi zifunguye zisize irangi ry'ubururu, hejuru handitseho nimero wahamagara uramutse ubakeneye, ibihumbi bibiri na mirongo itanu, hasi hapavomye isima y'umutuku.

Icyapa kiriho ifoto abagore babiri bamwenyura ku mitwe yabo hariho imisatsi ni ikigo cy'ubucuruzi cya Access kikangurira abagore gufata inguzanyo kugira ngo biteze imbere.

Icyapa kiriho ifoto y'ikigo cy'ubucuruzi Ecobank, umukobwa mwiza uhagaze amwenyura i ruhande rw'imodoka ifunguye afashe ku rugi rwayo ndetse mu biganza bye harimo urufunguzo rwayo.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu iruhande rwe hahagaze umugore munini wipfutse agatambaro ka kake mu mutwe. Imbere yabo hari umusore wambaye ishati y'umweru, hateretse imashini ya mudasobwa aho abasobanurira ku bijyanye n'inguzanyo.

Agakarito karimo ibara ry'umutuku karambitse ku meza ikiganza cy'umugabo kigafashe, imbere ye hari icy'umugore n'ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo.

Inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi, amadirishya afunguye. Rimwe rigaragara ko hari umuntu uhagazemo imbere. Amadirishya mato aregetseho gake.

Inyubako ndende zubatse ku buryo bugezweho, zifite ibirahuri byijimye. Ni inzu zikorerwamo ubucuruzi. Kuruhande hariho amapoto y'amashanyarazi, ndetse n'amatara.

Mu nyubako ikorerwamo ubucuruzi , etajeri nini irimo imyenda igiye itandukanye y'amabara meza harimo iy'abato n'iyabakuru. Harimo amakabutura, amapantaro , imipira ndetse n'amashati.

Mu nyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda y'ibitenge, hahagazemo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe w'umwirabura, imbere yabo hahagaze umuzungukazi, ndetse n'umugabo w'umuzungu.

Intoryi, karoti, inyanya, ibitunguru, pavuro, n'ibirungo biri budusashe indobo n'amabaseri biteretse ku meza manini ahahagaze abagore bari gucuruza.

Isoko ryubakiye rimanitsemo imyenda, kubiti iyindi irambitse ku bimeza umugabo wambaye ikote rya kake uhagararanye n'uwambaye umupira w'umukara baraganira.

Isoko ritubakiye, umugore wicaye afite umugati muntoki imbere ye hateretse igikombe kirimo icyayi cy'amata, abagore benshi bicaye imbere y'ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo iby'imboga, inyanya, ibitunguru, karoti n'amashu.

Ifoto iriho ikarita y'umuhondo ni iya MTN iriho amazina y'umucuruzi ndetse n'imibare y'ibanga bakoresha bishyura ibicuruzwa bamuguriye.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo ipantaro y'iboyi y'ubururu ahagaze ku iduka rito rikoreramo ubucuruzi gikoreramo ikigo cya emuti eni. Umukobwa uhagaze iruhande rwe wambaye ijire y'umuhondo ikabutura ngufiya y'umukara bombi bakaba bari kumwenyura.

Umugabo ufite ikarita itukura mu ntoki na terefone ngendanwa yambaye umupira w'icyatsi kibisi, imbere hari ameza ariho udusani turimo inyanya, ku ruhande hari imitaka uwa emutiyeni n'uwa eyaterimani.

Mu nyubako ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, urukuta ruriho akapa gatoya kamamaza, umugabo wambaye umupira w'umuhondo wicaye imbere ya compiyuta aratanga serivisi ku bakiriya babagannye.

Ifoto iriho abakobwa batatu babiri bambaye imipira y'umihondo undi umwe wambaye umupira w'ubururu imbere yabo hateretse ameza afite irangi ry'ubururu, inyuma hari imitakaka yamamaza ikinyobwa k'inzoga ya pirimusi.

Umusore muto wirabura wicaye kuri moto, ku kibero ke harambitse kasike y'icyatsi kibisi. Inyuma ahetse agasanduku karimo ibicuruzwa ashyiriye ababimutumye.

Ifoto iriho ibicuruzwa bitandukanye harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, imyambaro, ni ikigo gikorera kuri murandasi aho cyohererereza abantu ibicuruzwa.

Umugore witeze igitambaro mumutwe, mubiganza afashe telefone aho ari gutumiza ibicuruzwa kukigo cya vuba vuba, aho bahaha bakoresheje itumanaho rya murandasi.

Inzu yo kubamo hagaragaramo icyumba cy'uruganiriro ushobora kuyisanga umujyi wa Kigali aho wayikodesha ku angana n'amadolari magana inani buri kwezi.

Inzu ifunguye ku muryango, urubaraza rwayo hateretse intebe ndetse n'ameza. Iherereye i Kibagabaga aho ushobora kuyibona ku mafaranga angana n'amadorari ibihumbi magana abiri na mirongo ine ifite ibyumba bitanu.

Ifoto igaragaza mu nzu mo imbere ahaherereye i ruhande rw'igikoni. Harimo amashyiga, hejuru handitse ho amagambo ko ushobora kuyigura, angana na miliyoni ijana na mirongo itatu y'amafaranga y'u Rwanda. Iherereye i Kigali.

Inzu nziza isize amarange meza ifite amatara ari kwaka, hejuru handitseho amagambo ko igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine y'amafaranga y'u Rwanda iherereye i Kigali i Kanombe.

Inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya mato mato, hari ibiti by'imikindo n'iby'indabo zisanzwe, ku ruhande hari umuhanda wubakishije amapave n'urukuta rw'amabuye ndetse n'amatafari.

Mu nzu yubakishije amakaro hasi, hateretsemo utubati ndetse n'icyuma gishyushya ibiribwa, harimo n'icyuma gikonjesha firigo, ni inyubako iherereye Kacyiru mu mugi wa Kigali, biragaragara ko hari icyumba gikorerwamo ubutetsi, igikoni.

Inzu nziza ya etaje ikodeshwa amafaranga angana n'amadolari igihumbi na maganatanu ku kwezi, ushobora kuyisanga mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda ifite parikingi y'amapave nziza, ifite na jaride y'indabo nziza cyane iri mu gipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Inzu ifunze ifite icyumba kimwe, ubwogero bumwe, aho kuganirira ndetse n'igikoni, ikodeshwa angana n'ibihumbi magana abiri y'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu ifite icyumba kimwe n'ubwogero bumwe, ikodeshwa angana n'ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'Urwanda buri kwezi. Iherereye i Kigali ku Kacyiru.

Ifoto iriho umusore uhagaze, wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru n'ipantaro ya kake ndetse n'inkweto z'umukara, ahagaze imbere y'inyubako ndende nziza cyane, igeretse, isize amarangi meza, ku ruhande hari jaride irimo ibyatsi ndetse n'indabo, imbere gato hari parikingi y'amapave.

Inzu iherereye i Kigali ku Kacyiru, ifite icyumba kimwe n'ubwogero; ikodeshwa angana n'ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Ifite igikoni n'icyumba cyo kuryamamo.

Inzu ikodeshwa iherereye kimiroko mu mujyi wa Kigali, ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri aho ushobora kuyishyura angana n'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana ane buri kwezi.

Inzugi z'ubururu zikinguye, ku nyubako hariho amagambo ari mu inyuguti z'umweru agaragaza ko iyo nzu ikodeshwa, ifite ibyumba bibiri n'amatuwarete abiri ndetse igaragaza ko iherereye hafi ya sitasiyo ya Rubisi.

Umugabo wambaye umupira w'imbeho w'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi, arerekeza ku nyubako iririmo yubakwa itaruzura neza, yubakishije amatafari manini hejuru y'iyo nyubako hari umugabo uri gusakara.

Inzu yo guturamo igabanyijemo ibice, igiye ifite igice kimwe gifite ibyumba bine, ushobora kuyibona kwayangana n'amadorari maganabiri na mirongo itanu y'Amerika.

Inyubako ndende cyane ikorerwamo ubucuruzi, kumiryango hagiye hariho ibyapa biyobora abaguzi kumabaraza hagiye hahagazeho abantu batandukanye, hasi hari ibipupe bambitse imyenda bifasha abaguzi guhitamo.

Umukobwa w'inzobe, wambaye imyenda y'umukara, arambitse ikiganza cye ku meza apfunikishije igitambaro cy'umweru. Mu biganza bye harimo agapfukamunwa. Ku ruhande hicaye undi mugabo wirabura, uri gukora ku mashini.

Suridi ikorerwamo ubucuruzi. Umugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa, arareba mu bicuruzwa. Abakozi bari mu mirimo bari muri iyo nyubako.

Ifoto iriho umugore wicaye afashe mu kiganza ikarita ya mituwele n'ifishi yo kwa muganga, yambaye umwenda w'igitenge, yifubitse akandi gatambaro. Kuruhande rwe hicaye undi wambaye umwenda w'igitenge cy'icyatsi kibisi.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu, yifubitse umwenda w'umuhondo, ibiganza bye bifite agakarita ka mituwere dosante, bigaragara ko agiye kuvuza.

Icyapa gikozwe mu mwenda, gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo, ejo heza, abaturage benshi bahagaze bitabiriye barikumva amabwiriza cyangwa se inama bari kugirwa zo kwizigamira muri ejo heza.

Ifoto iriho urupapuro rw'umweru, hateyeho ikashi iri mu ibara ry'ubururu. Amazina y'uwahoze ayobora Minisiteri y'ubuzima mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda bibiri na cumi.

Umugabo urikumwenyura urigusunika akagare mu iduka rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye etajeri nini zirimo ibicuruzwa bipanze neza abandi bagabo batatu bari inyuma ye.

Abagabo batatu bahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi ahari amameza n'intebe amatajeri maremare arimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye amatara arimo araka.

Mu nyubako ikoreramo ubucuruzi ama etaje yari manini apanzemo ibicuruzwa byinshi by'amoko atandukanye ikiganza gifashe icupa ririmo ibiribwa.

Inzu y'ubucuruzi yubakishije amakaro hasi, hejuru harimo za camera kuri parafo, etajeri ndende cyane iriho ibicuruzwa by'imitobe igiye itandukanye igiye itandukanye yo mu macupa, mu tujerekani ndetse no makarito.

Mu nzu nini ikoreramo ubucuruzi bwagutse buzwi nka supamaketi ameza ateretseho icupa rinini ry'amazi, ibiribwa bitandukanye bifunze mumasashe no mumakarito.

Mu nyubako ikorerwamo ubucuruzi, umukobwa muto, wirabura, wambaye ipantaro y'umuhondo, uri gusohoka mu muryango ufunguye. Abagabo babiri bahagaze mu wundi wo hepfo, ndetse n'undi mukobwa uhagaze abitegereza.